Muganga uri mu bitaro by'abana babyutse bicaye ku buriri aje gusurwa n'ahantu hashoboka atari ari abayobozi kugira bamenye uko bamerewe niba abaganga ndetse n'abandi bashinzwe kubitaho bababoneray'ibanze bakeneye kugira ngo bongere bamererwe neza basure mu mujyi.

Ni kwa muganga, ni abaganga babiri bambaye amataburiya y'imyeru. Hari abarwayi bicaye, hari n'abahagaze, bamaze gufata agatege bari kugerageza gukina agapira k'umuhondo. Bari gukinana n'abaganga bashinzwe kubitaho.

Icyapa, agahanda kari inyuma y'icyo cyapa, pasiparume, indabo ziri hino y'iki cyapa, inyuma yaho hari ishyamba, muri iryo shyamba hateretsemo indobo bashyiramo imyanda, hanyuma iki cyapa gifasha abantu kumenya indangagaciro z'iri vuriro rya Nyagatare.